Mu nyubako icururizwamo inyongeramusaruro, imiti, ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi izwi nka farumasi, iboneka hirya no hino mu gihugu. Hagaragaramo utubati, ameza ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abakora ubwo bucuruzi, mu kunoza akazi kabo ka buri munsi.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto iyo bikozwe neza bya kinyamwuga bifasha abahinzi kwiteza imbere, ndetse no kubona umusaruro mwinshi, bityo bakihaza mu mirire ndetse bagasagurira n'amasoko. Bisaba kandi ko bakoresha systeme ndetse na technologie mu bikorwa byabo, harimo nk'uburyo bwo kuhira ndetse no kwicira ibyonnyi hifashishijwe imiti n'ibikoresho byabugenewe.

Ubuhinzi bwa kijyambere kandi bukozwe neza, ni bumwe mu bifasha abikora mu kwiteza imbere mu gihe cya vuba, ndetse no kuzamura imibereho yabo, aho abahinzi basabwa kwita ku bihingwa byabo babyuhira ndetse banabitera imiti yabugenewe yica udukoko, bibafasha kuzamura umusaruro wabo, bityo bakiteza imbere ndetse bakanateza imbere igihugu muri rusange.

Iki cyapa kigaragaza inyubako icururizwamo imiti y'amatungo, imbuto ndetse n'inyongeramusaruro, byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi zizwi nka farumasi. Aha akaba ariho bakora abavuzi b'amatungo ndetse n'impuguke mu by'ubuvuzi, aho batanga inama ndetse n'ibikoresho by'ibanze, yaba ku bahinzi ndetse n'aborozi, bakenera mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Utubati turimo imiti nyongeramusaruro ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abahinzi n'aborozi mu nyubako icururizwamo imiti izwi nka farumasi. Aha hakaba ari aho abahinzi babona iby'ibanze nkenerwa harimo nk'imiti yo gutera amatungo yabo, imbuto, inyongeramusaruro, ndetse n'ibindi byose bigamijeko bagira umusaruro mwiza mu byo bakora.

Umugabo wambaye igisarubete cy'umukara yambaye kandi n'uturindantoki ari mu bikorwa byo kuhira imyaka ye yica udusimba, ndetse n'udukoko byafashe imyaka ye akoresheje ipompo zabugenewe. Iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko kuhira imyaka wica ibyonnyi bifata imyaka ndetse unatera imiti, ari bimwe mu bifasha mu kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubucuruzi bw'imbuto, imiti y'amatungo, inyongeramusaruro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikenerwa n'abahinzi ndetse n'aborozi, aho impuguke muri ibingibi, zicuruza ibikoresho zigatanga kandi inama ku bahinzi n'aborozi, hagamije ko bazamura umusaruro w'ibyo bakora.

Gushyira inyongeramusaruro ku bihingwa ngandurabukungu nk'ikawa ni bimwe mu bifasha mu kongera umusaruro ndetse no kunoza ubwiza bw'ibisarurwa. Aho abahinzi bagirwa inama yo gushyira inyongeramusaruro ndetse no gutera imiti yica udukoko ku bihingwa byabo mu rwego rwo kubafasha kongera umusaruro mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Icyapa kiri ku muhanda nyabagendwa gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuhondo cyanditseho amagambo. Iki kigo kifashishwa mu kuyobora abagenzi ndetse n'abandi bakoresha umuhanda kibamenyesha ko ari ikigo cya ETG ari cyo gitanga serivisi zitandukanye uko bigaragara ku cyapa.

Ibyapa bimanitse ku nzu ndetse n'amadirishya, byo mu nyubako icururizwamo imbuto nyongeramusaruro, imiti y'amatungo ndetse n'ibindi, ahazwi nka farumasi, ahakora impuguke mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, aho bahereza abaturage imbuto ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa, kugira ngo banoze akazi kabo ka buri munsi.

Imifuka minini cyane irimo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bizwi nk'ibishyimbo, aho bigiye kubikwa neza bigahunikwa, hitabwa ko byazakoreshwa mu gihe kiri imbere. Bikagaragaza iterambere mu buhinzi, aho abahinzi bashobora kwiteza imbere, babona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Umugore wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara. Aho arimo kuhira imyaka yifashishije ipombo yabugenewe. Iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impupuguke mu by'ubuhinzi, ndetse n'ubworozi, ko kuhira imyaka ndetse igaterwa n'imiti yica udukoko, ari bimwe bifasha abahinzi mu kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ibyapa bimanitse ku nzugi z'inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'inyongeramusaruro, imiti, imbuto, ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi, hagamijwe kuzamura ireme ndetse n'umusaruro w'ibyo bakora umunsi ku wundi, binyuze mu kubona imbuto ndetse zijyanye n'igihe, ndetse n'inyongeramusaruro bibegereye.

Inyubako izwi nka farumasi, icururizwamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abahinzi, inyongeramusaruro, imbuto, imiti y'amatungo, ndetse n'ibindi bikenerwa n'abahinzi ndetse n'aborozi mu kunoza akazi kabo ka buri munsi, bongera umusaruro wabo mu bwiza ndetse no mu bwinshi.

Amabasi menshi atonze umurongo, aho arimo imiti yabugenewe yifashishwa mu gufuhira imyaka mbere yuko ihunikwa hirindwa ko yakangirizwa n'impungu ndetse n'ibindi byonyi bishobora kurya imyaka igihe iri mu bubiko. Bikagaragaza iterambere mu buhinzi aho abahinzi bahinga bagasaruro ndetse n'ibyo kwizigamira byazakoreshwa mu minsi iri imbere.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, ahagaragara ipikipiki itwawe n'umumotari ndetse ahetse umukobwa. Iruhande rwayo hari inyubako icuruzwamo inyongeramusaruro y'imbuto, ndetse n'ibiti, byifashishwa mu guteza imbere ibicuruzwa by'ubuhinzi n'ubworozi, nka bimwe byegerezwa abaturage mu rwego rwo kubafasha kunoza akazi kabo ka buri munsi.

Umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ijipo y'umweru, urimo guhinga atunganya neza isambu ye azateramo imyaka mu gihe igihembwe cy'ihinga kizaba gitangiye, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impinguke mu by'ubuhinzi ko abahinzi baba bagomba gutegura aho bazahinga mbere kugira ngo bazatangirane n'igimbwe cy'ihinga neza, ndetse bakabona umusaruro mwiza.

Inyubako izwi nka pharmacie ahacururizwa imiti, imbuto, inyongera musaruro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi, hagaragara kandi n'ibindi bikoresho by'ibanze. Aho abaturage babona serivise bakeneye, zibafasha mu kunoza akazi kabo ka buri munsi ku buhinzi ndetse n'ubworozi.

Muri farumasi hacururizwa imiti, y'amatungo, inyongeramusaruro, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi. Hagaragara utubati tuba dupanzemo ibi bikoresho, aho kandi abakozi bo muri izi farumasi begera abaturage bakabaha serivisi nziza hagamijwe kobanoza umusaruro, mu byo bakora.

Uturima tw'igikoni ni imwe kuri politiki y'imibereho myiza igizwe na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kurwana n'ikibazo k'igwingira ndetse n'imirire mibi mu bana, aho buri muturage akangurirwa kugira akarima k'igikoni ahingamo imboga zimufasha mu gutegura amafunguro yibanda cyane ku mbuga ndetse n'imbuto nka bimwe mu bikenerwa kugira ngo umuntu afate ifunguro ryuzuye.

Inyubako ihunikwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wiganjemo ibigori, amashaza, ndetse n'ibindi, aho bitunganywa neza bigashyirwa mu mifuka, hanyuma bigaterekwa mu bubiko aho byagenewe kugirango bizafashe abahinzi bibagoboke mu gihe biri imbere baba batarenza indi misaruro.

Abaturage barimo gukora ifumbire y'imborera, bifashishije ibikoresho ndetse n'ibisigazwa by'umusaruro w'ibigori, aho bitunganywa neza hanyuma bikarundwa hamwe, bikongerwamo ibyatsi byabugenewe bifasha kubora, bigatanga ifumbire izifashishwa mu bihembwe by'ihinga bikurikiraho.

Utubati turimo imiti itandukanye, inyongeramusaruro, imbuto ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi, aha akaba ari mu nzu icuruzwamo bene ibi bikoresho izwi nka farumasi zigaragara hirya no hino mu gihugu ,mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho na serivisi, ndetse n'ibikorwa bakeneye bibafasha mu kunoza serivisi zabo z'ubuhinzi n'ubworozi.

Abamama barimo gusasira imboga z'amashuri zihinze mu kibaya aho bahuje igihingwa kimwe cy'imboga nka bumwe mu buhinzi bubafasha mu kwiteza imbere binjiza amafaranga menshi ndetse n'bo banazamura imibereho yabo babona amafunguro cyane cyane yiganjemo imboga nka bimwe mu by'impuguke zitangamin inama ko zitagomba kubura ku mafunguro ya buri munsi.

Igihingwa cy'urutoki gihinze neza cyane ni bimwe mu bishobora gufasha umuntu kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu biribwa kuko gitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, impuguke mu by'ubuhinzi zigaragaza ko byibuze gutera ibitoki bifasha ubikora kwikura mu bukene, ndetse akaba yashobora kwihaza no mu mirire.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibishyimbo bukoze neza, aho iyi myaka iteye ku murongo, hasigara umwanya hagati ushobora kunyurwamo n'abantu mu gihe barimo kuhira cyangwa se gukura ibyonyi hagati mu myaka nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi kuko bifasha abahinzi kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Mu mashyamba ya kimeza ndetse n'ibya bya pariki bigaragara hirya no hino mu gihugu, ni hamwe mu hacumbishyira inyamaswa nyinshi cyane, zikurura ba mukerarugendo ziganjemo ingagi, inkende, imparage ndetse n'izindi. Zose zigira uruhare mu kuzamura iterambere ry'ubukungu, binyuze mu madevizi yinjizwa na ba mukerarugendo igihe baje gusura, izi nyamaswa.

Ingemwe z'ibiti by'imbuto zigaragara hirya no hino ku mapipeniyeri, aho ibi biti bihabwa abaturage bakabitera ku mirima yabo ndetse rimwe na rimwe hakaba n'ibivangwa n'imyaka, ibiti kandi bigira akamaro kanini kuko kubifata ubutaka, bityo bukaba bwirindwa kuba bwatembanwa n'isuri mu gihe cy'imvura nyinshi.

Igihingwa cy'ibirayi ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo kandi bifasha abayihinga kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu mirire, kuko byinjiza amafaranga menshi cyane bitewe n'umusaruro, ariko ibi byose bigerwaho iyo byitaweho neza bigahabwa ifumbire ihagije, ndetse bikanaterwa imiti yica udukoko nkuko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuhinzi.

Umumama wambaye agapira k'umukara ukenyeye igitenge urimo gutunganya umusaruro w'ubuhinzi bw'urutoki abonye mugutunganya umusaruro we kugira ngo ugeze ku isoko, ibi bigaragaza ko abahinzi bashobora kubona amafaranga ndetse n'ibibatunga binyuze mubuhinzi bwabo aho babona ibyo kurya bagasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga, ni kimwe mu by'abahinzi bagirwamo inama zo kuyoboka, nk'uko bigaragara ko biteza imbere ababikora, ndetse bigafasha n'abaturage kugira ubuzima bwiza, bihereye ku bazihinga ndetse n'abandi ba baturiye. Aho kandi bashobora kwiteza imbere bakabona amafaranga abafasha mu gukemura ibibazo byabo, ndetse no kwiteza imbere muri rusange.

Ubutaka bunini cyane buhinzemo igihingwa ngandurarugo cy'imyumbati. Kikaba ari igihingwa kiboneka hirya no hino mu gihugu, aho abaturage bahinga bene ibihingwa bagamije kwihaza mu mirire ndetse bagasagurira n'amasoko, ibi bigafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo.

Umurima uhinzemo imyumbati ndetse n'undi uhinzemo ibigori. Byose akaba ari ibihingwa ngandurarugo biri hirya no hino mu Gihugu, aho abahinzi bagirwa inama yo kubikora ndetse banita ku musaruro wabo, kugira ngo bongerwe agaciro ndetse binabafasha kwiteza imbere no kwihaza mu biribwa.

Gutera ibiti ni kimwe mu byo impuguke mu by'ubuhinzi zigiramo inama abahinzi, ndetse n'abandi bafite ubutaka, kuko ibiti bigira uruhare runini cyane mu gufata ubutaka biburinda kuba bwatwarwa n'isuri, ndetse n'imyuzure, aho abaturage bakangurirwa kujya gushaka imbuto z'ibiti bagatera mu mirima yabo hagamijwe ko barinda ubutaka bwabo ibi biza.

Pepininyeri yatuburiyemo ingemwe z'ibiti by'inturusu. Ibi bikaba ari biti biterwa hirya no hino mu nkengero z'imirima, bigafasha abahinzi ko ubutaka bwabo burindwa gutwarwa n'isuri, ndetse bikanatanga umusaruro w'imbaho, inkwi zo gucana, amakara ndetse n'ibindi. Byose bigafasha ababihinga kwiteza imbere.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi bugafasha ababikora mu kwihaza no kuzamura imibereho yabo kuko babona ibi batunga ndetse bagasagurira n'amasoko. Imboga n'imbuto rero ni kimwe mu bihingwa bigomba kwibandwaho nk'ibitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya.

Amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya parike bigaragara hirya nohino mu gihugu, ni bimwe mu bicumbikira inyamaswa zihariye ziboneka mu bihugu by'imisozi miremire, nk'ingagi, inkende, ndetse n'izindi. Aho bikurura ba mukerarugendo basura igihugu cyacu bityo bakadusigira amadevize.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo igigwa cy'imyumbati iteye neza ku murongo, ikurikije ibipimo bitangwa n'abahugukiye mu by'ubuhinzi, aho bagira inama abantu guhinga kijyambere batera imyaka ku murongo, nka bumwe mu buryo bufasha kongera umusaruro ndetse no kunoza imihingire, bityo bakiteza imbere, bagateza imbere n'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi n'ikimwe mubiteza imbere ababikora ndetse bikazamura n'imibereho yabo, aho babasha kubona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko, kimwe mu buhinzi bagirwamo inama ko abantu bayoboka harimo, imboga n'imbuto kandi bikenerwa cyane mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ingeri zose hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bumwe mu bugirwamo inama ko abantu bayoboka kuko ari bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi bufasha gukora kugira ubuzima bwiza nkuko bigaragazwa n'impimpuguke mu by'ubuzima, aho bagaragaza ko kurya imbuto byibuze buri kuri funguro bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza ndetse no kuri ubu buhinzi akabasha kwiteza imbere binyuze mu gucuruza ndetse no kugurisha imboga n'imbuto aba yejeje.

Ubutaka bunini cyane buhinzeho icyayi kandi giteye neza ku murongo. Iki akaba ari kimwe mu bihingwa ngandurabukungu kigaragara hirya no hino mu gihugu aho cyoherezwa hanze y'igihugu bityo kikinjiza amadevize, ibi bigafasha kandi n'abagihinga kubona amafaranga bityo bakiteza imbere ndetse bakazamura n'imibereho yabo.

Ubuhinzi bukozwe neza bwa kijyambere kandi bunoze, ni bimwe mu gufasha abahinzi mu kwiteza imbere, bahinga batera imyaka yabo ku murongo, ndetse banahinga igihingwa kimwe, aho imyaka yabo irindwa ibyonnyi, ndetse ikanitabwaho bityo bikabaha umusaruro mwiza, bakabasha kwiteza imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu muri rusange.

Umurima munini cyane uhinzemo uruvangitirane rw'ibihingwa harimo ibirayi, ibihaza, ibigori ndetse n'ibindi. Iyi akaba ari imwe muri gahunda abahinzi bakoresha mu rwego rwo kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza, bavanga ibihingwa bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo babone umusaruro uhagije kandi mwiza.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa cya soya, icyi akaba ari igihingwa ngandurarugo kiboneka mu turere dutandukanye tw'igihugu, aho abakora bene ubu buhinzi biteza imbere binyuze mukobona ibibatunga, ndetse bagasagurira n'amasoko, bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza, ndetse no kugera ku bikorwa bitandukanye by'iterambere.

Amashashi afite ibara ry'icyatsi arimo ingemwe z'imbuto zitandukanye, agiye guhabwa abaturage ngo bayitere hirya no hino mu mirima yabo. Ibi akaba ariti byera imbuto nziza, atakaba kandi bigira uruhare runini mu kunoza, imirire ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Aho bashobora kubona imbuto zifashi gutegura amafunguro yabo, nka bimwe mu by'ingenzi bitagomba kubura ku mafunguro.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu byo abahinzi bagirwamo inama kuyoboka kuko bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gitoya, Ibi kandi bigafasha abahinga kwizamura imibereho yabo, ndetse banita ku buzima bwabo babona amafunguro, bityo bikabafasha kwihaza mu biribwa ndetse no kwinjiza amafaranga.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bumwe mu buteza imbere ababukora, aho butanga umusaruro mwinshi kandi bukagira akamaro ku babukora, aho babasha kuzamura imibereho myiza yabo. Cyane ko impuguke mu by'ubuvuzi zitanga inama ko kurya imboga n'imbuto kenshi bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa by'ibigori, biteye neza ku murongo, kandi byuhiwe neza binitabwaho bigaragara ko bitanga umusaruro mwiza cyane, nk'uko bitangwamo n'impuguke mu by'ubuhinzi ko guhinga kijyambere abantu batera imbuto ku murongo, bifasha mu kuzamura umusaruro ndetse no kuba abahinzi bakihaza mu mirire, bakanasagurira amasoko.

Ubuhinzi bwa kijyambere ndetse bukozwe neza ni bimwe mu bifasha ababikora kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo aho babasha kubona amafunguro abatunga ndetse bakabasha no kwiteza imbere binyuze mu gushyira ku isoko umusaruro wabo. Iki akaba ari igingwa cy'urutoki gihinze neza harimo kandi n'ibinyomoro ndetse n'izindi mbuto zitandukanye aho bishobora kuvangwa bigatanga umusaruro mwiza byose icyarimwe.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'ikawa, iki akaba buri gihingwa ngandurabukungu kigaragara hirya no hino mu gihugu, aho abahinga ikawa babasha kwiteza imbere ndetse bakabona n'amafaranga menshi binyuze mu gucuruza , iyi kawa aho isoko igihugu kandi ikinjiza n'amadevize bigateza imbere igihugu cyacu ndetse na ba nyira kuyihinga badasigaye inyuma.

Imbuto ni kimwe mu bihingwa biteza imbere ababihinga ndetse bigafasha kugira ubuzima bwiza, kuko ari ingenzi cyane kurya urubuto byibuze buri munsi ku ifunguro ufashe, iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima ko kurya imboga n'imbuto bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza, ndetse n'abakora ubuhinzi bwazo bakabasha kwiteza imbere babona amafaranga ndetse banagira ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'ibijumba, iki akaba igihingwa ngandurarugo kigaragara hirya no hino mu gihugu, aho abakora ubuhinzi bagirwa inama yo kwibanda kuri iki gihingwa, kuko gikenerwa cyane n'abatari bake hirya no hino, bityo bikabafasha kwihaza mu mirire, ndetse no kwiteza imbere binyuze mu gukorera amafaranga, binyuze muri ubu buhinzi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza ni bumwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi bityo bakihaza mu mirire ndetse bagasagurira n'amasoko. Ibi kandi bigerwaho hifashishijwe uburyo butandukanye bwifashishwa nko kuhira ndetse n'ubundi bwo gutera imiti, aho bahangana n'udukoko ndetse n'ibindi byose byatuma umusaruro w'abaturage uhungabana.

Igihingwa cy'ibirayi ni bimwe mu biteza imbere abahinzi aho bakuramo umusaruro uhagije bityo bakabasha kwiteza imbere nabwo ubwabo babona ibibatunga. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko gukora ubuhinzi cyane cyane bw'ibigo ngandurarugo gifasha ababikora kwiteza imbere.

Igihingwa cy'ibigori ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo kiboneka hirya no hino mu gihugu, aho impuguke mu by'ubuhinzi zitanga inama yo guhinga iki gihingwa ku murongo hakurikijwe ibipimo bitangwa n'abajyanama mu buhinzi, aho kandi bita ku bihingwa byabo batera imiti yabugenewe yica udukoko, ndetse banabyuhira mu gihe bikeneye amazi, bikabafasha kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto bukozwe neza ni bimwe mu bifasha abahinzi kwiteza imbere bakabona umusaruro mwinshi bityo bakabona ibibatunga ndetse bakanasagurira n'amasoko. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko bagomba gukora ubuhinzi neza bita ku bihingwa byabo, aho basabwa kubyuhira ndetse no kubitera imiti yica udukoko igihe bikenewe kugira ngo bongere umusaruro mu bwiza ndetse no mu bwinshi.

Amacupa menshi cyane afite ibara ry'umweru, yometseho impapuro zirimo amabara atandukanye, arimo imiti icururizwa mu maduka yagenewe gucuruzwamo inyongeramusaruro, imiti ndetse n'ibindi bifasha abahinzi n'aborozi mu kuzamura umusaruro wabo, hirya no hino mu gihugu.

Umufuka munini cyane ufite ibara ry'umweru, urimo inyongeramusaruro ifasha abahinzi, mu kunoza ubuhinzi bwabo bahereza ibihingwa byabo ifumbire ndetse n'izindi ntungamubiri bikeneye, kugira ngo bikure neza bityo bizatange umusaruro mwiza, ubafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere Igihugu muri rusange.

Ameza ateretseho imiti ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga b'amatungo ndetse n'ab'imyaka, mu gihe barimo kwita ku bihingwa ndetse n'amatungo y'abaturage. Ibi bikagaragaza iterambere mu buhinzizi n'ubworozi, aho ibihingwa byitabwaho, ndetse n'amatungo akitabwaho, umunsi ku wundi hagamijwe ko gatanga umusaruro mwiza.

Ikiganza cy'umuntu gifashe umusaruro ukomoka ku buhinzi ugizwe n'ingano, aho arimo kureba neza niba zumye kugira ngo zibe zahunikwa, iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, aho abaturage bashishikarizwa guhunika imisaruro yabo ukazabagoboka mu bihe biri imbere.

Icupa ry'ibara ry'umweru rizengurutseho igipapuro kiri mu'ibara ry'icyatsi ryanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, kizamo imiti yifashishwa n'abakora ubuvuzi bw'amatungo mu kwita ku matungo y'abahinzi ndetse n'aborozi baboneka hirya no hino mu gihugu, hagamijwe ko agira ubuzima bwiza bityo bikaroheza kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umuhinzi urimo kwanika umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, aho arimo kubyumisha neza; ibi akaba arimo kubyongerera agaciro, aho ushobora kubikwa neza igihe kirekire binyuze mu kuba wumye neza. Iyi ikaba arimwe mu nama itangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko umusaruro ugomba kwitabwaho kuva ugisarurwa kugeza ugiye mu buhunikiro.

Ubworozi bw'amatungo magufi iyo bwitaweho cyane, kandi bugashyirwamo imbaraga, ni bumwe mubufasha gukora kwiteza imbere, ndetse bakabona n'umusaruro mwinshi mu gihe gikwiriye. Ibi kandi bikaba ari bimwe mu bitangwaho inama n'impuguke mu by'ubworozi, ko abantu bakiri mu cyiciro cyo hasi bagirwa inama yo gukora ubwo bworozi, nka bumwe mu byabafasha kwiteza imbere mu gihe gitoya.

Ubworozi bwa kijyambere bukozwe neza, ni bumwe mu bishobora gufasha ababikora kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo bitabagoye, kuko ubu bworozi budasaba igishoro gihambaye, ahubwo bisaba gusa gutinyuka ndetse no gushyira mu ngiro wita ku matungo yawe, uyagaburire indyo yuzuye, ndetse banayaha imiti igiye afite ibibazo, ibi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kubona umusaruro uhagije.

Agakarito karimo imiti yifashishwa n'abaganga b'amatungo igihe bavura indwara zitandukanye zifata amatungo y'aborozi, bikagaragaza iterambere mu bworozi, aho amatungo ahabwa ubuvuzi bw'ibanze igihe bukenewe, bityo bikabafasha mu kwirinda ibihombo bya hato na hato bituruka ku mfu z'amatungo yabo.

Umugabo wambaye agapira k'umweru n'ishati y'umukara, aho arimo gukorera icyayi gihinze mu kibaya kinini cyane agenda akuramo ibyonnyi byasagarariye icyayi. Iki akaba ari igihingwa ngandurabukungu, aho cyifashishwa cyoherezwa hirya no hino ku isi, kigafasha kwinjiza amadevize ndetse bigateza imbere n'abakora ubuhinzi bw'iki gihingwa.

Amaterasi y'indinganire ni kimwe mu bifasha abahinzi mu kongera umusaruro cyane cyane ndetse banirinda ibiza bitandukanye nk'isuri, imyuzure ndetse n'ibindi bishobora kwibasira ibihingwa byabo mu gihe biri mu murima aho ayo materasi agenda acibwa cyane cyane ku butaka buhanamye agamije ko ubutaka bufatwa bukarindwa ko amazi yabutembana mu gihe k'isuri.

Abahinzi barimo gutera imbuto z'indobanure mu mirima yabo yatunganyijwe neza mbere yuko igihembwe k'ihinga gitangira. Iyi akaba ari mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko gutegura neza isambu mbere yuko uhinga ari bimwe mu bifasha mu kongera umusaruro mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, ipantaro y'umukara, ndetse na bote z'umukara, arimo gutegura aho agiye gutera imbuto ze, aca imyobo ndetse anashyiramo ifumbire. Iyi akaba ari inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, kuko guhinga kijyambere abantu batera imbuto mu byobo ari imwe mu bibafasha mu kugira umusaruro mwiza.

Umuganda ni imwe muri polutiki zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kwishakamo ibisubizo, aho batuye, bidategereje ko bituruka kure cyane, aho bitunganyiriza ibibazo bimwe na bimwe biba bibugarije, harimo nko gukora imihanda, gusibura imiferege, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Abaturage barimo gutunganya imirima bazateramo imbuto mu gihembwe cy'ihinga gitaha, aho imirima itunganywa neza mbere hanyuma ikazaterwamo imbuto hakurikijwe ibipimo byabugenewe, ndetse bikazabafasha kuzamura ireme ry'umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Abaturage bari mu bikorwa byo kwicira ibyonnyi byafashe imyaka yabo aho bahinze. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwamo impuguke mu by'ubworozi ko imyaka igomba gukurwamo ibyonnyi ndetse igaterwa imiti igihe cyose hagaragaye udukoko, bifasha kugira umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Abaturage bari mugikorwa cy'umuganda ngarukakwezi nk'imwe muri gahunda zashyizweho mu rwego rw'uko abaturage bifasha kwishakamo ibisubizo bakemura ibibazo bimwe na bimwe bibugarije. Aha bakaba barimo gukora ikiraro gihuza umuhanda kuko cyari cyangirijwe n'ibiza mugihe cy'imvura.

Umurima munini cyane ugaragaramo ibihingwa bitandukanye harimo ibigori, imyumbati ndetse n'ibindi, harimo kandi n'abahinzi barimo kugenda bakura ibyatsi ndetse n'ibindi byonnyi byose mu murima hagamijwe kuzamura umusaruro mwiza ndetse kandi mwinshi.

Abagabo babiri barimo guhinga bafite amasuka. Barimo kubagara igihingwa cy'ibigori. Iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, bwo kubagarira imyaka bica ibyonnyi, ndetse banatera imiti yabugenewe yica udukoko, ari bimwe mu bifasha abahinzi mu kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Abaturage bari mu bikorwa byo gutera imbuto ahabugenewe hatunganiyijwe neza mbere y'uko igihembwe cy'ihinga gitangira batera ku murongo, iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko guhinga kijyambere abantu batera ibihingwa ku murongo, bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, ibi bigateza imbere abakora umwuga w'ubuhinzi.

Abaturage benshi bari mu bikorwa byo gusarura mu gihe cy'umwero, aho barimo gusarura ibirayi mu mirima yabo, ndetse banifashisha n'amagare ndetse n'ibikoresho bitandukanye, bageza umusaruro wabo ku isoko, bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no gusagurira amasoko hirya no hino mu gihugu.

Abaturage barimo gutera imbuto mu mirima batunganyije neza mbere yuko igihembwe cy'ihinga gitangira, aho barimo gutera ku mirongo bakurikiza ibipimo bitangwamo n'impuguke mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, aho babagira inama yo gutera imyaka ku murongo ndetse bakoresha n'ifumbire mborera ndetse n'imvaruganda, nka bimwe mu bibafasha mu kuzamura umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza imyaka iterwa ku mirongo neza, hakurikijwe ibipimo byabugenewe ni bimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza. Iyi akaba ari inama itangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, aho bagira inama abahinzi ko guhinga kijyambere bahinga ku murongo, nka bumwe mu buryo bwabafasha mu kongera umusaruro wabo ndetse no kunoza akazi kabo ka buri munsi.

Abaturage b'ingeri zitandukanye y'aba urubyiruko, abashekanguwe aho bitabiriye igikorwa cy'umuganda. Iyi ikaba iri muri gahunda zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kwikemurira ibibazo bimwe na bimwe bigenda boneka hirya no hino mu midugudu bakora umuganda. Aho batunganya neza imihanda, amarigori ndetse n'ibindi bikorwaremezo byangiritse bigasanwa binyuze mu guhuza imbaraga kw'abaturage.

Abahinzi barimo kwita ku bihingwa byabo wabibagara bicira ibyonnyi ndetse buhira anatera imiti yabugenewe bica uduko mu bihingwa byawo, ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi ko kwita ku myaka harimo gukuramo ibyonnyi gutera imiti yica udukoko ndetse n'ibindi ari bimwe mubibafasha mu kongera umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Umuturage urimo gutera imyaka mu murima yatunganyije neza mbere yuko igihembwe cy'ihinga gitangira. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impupuguke mu by'ubuhinzi, ko gutunganya site uzahingaho, ari ngombwa cyane kuko byabafasha kongera umusaruro mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Imifuka myinshi cyane irimo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi yiganjemo umuceri, amashaza ibishyimbo ndetse n'ibindi aho bitegereje gutunganywa neza mu nganda ngo byongerwe agaciro bibyozwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyarwanda mu buzima bwa buri munsi.

Imifuka myinshi itondetse hamwe irimo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bw'ibigori, aho ibigori byanikwa neza bigahungurwa kugira ngo bijye kongerwa agaciro bibyazwamo ibindi biribwa nkenerwa bya buri munsi, harimo nk'ifu y'igikoma, ifu yo gusongamo ubugari ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima munini cyane, uhinzemo igihingwa cy'urutoki, aho gihinzwe mu buryo bwa kijyambere, insina ziteye ku murongo, kandi zubahiririza ibipimo bitangwa n'abajyanama mu by'ubuhinzi, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ko guhinga kijyambere abantu bita ku myaka yabo, ndetse bakurikiza ibipimo bitangwa, bibafasha kugira umusaruro mwiza.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bitanga umusaruro mwinshi ndetse ukaba bikenerwa hirya hino mu gihugu, kuko impuguke mu by'ubuvuzi zigaragaza ko byibuze kurya imbuto buri munsi bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandukanye, iyo akaba n'imisaruro w'ibikomoka ku buhinzi bw' inyanya zitondetse neza kugira ngo zigere ku masoko hirya no hino mu gihugu.

Ububiko burimo imifuka myinshi cyane ipakiyemo umusaruro w' ibikomoka ku buhinzi , ibi bikaba ari ibigaragaza intambwe yatewe n'abahinzi aho bashobora guhinga bakabona umusaruro uhagije ubatunga bo ubwabo, ndetse bagasagurira n'amasoko ndetse bakabasha no kwizigamira ibizabagoboka mu gihe kiri imbere.

Inyubako nini cyane ihunikwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi cyane cyane byiganjemo ibigori aho bipakirwa neza mu mifuka yabugenewe hanyuma bikajya gutunganywa byongererwa agaciro aho bibyazwamo ibindi biribwa bitandukanye harimo nk'amafu y'igikoma ndetse n'ibindi.

Umugabo ndetse n'umugore barimo kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'inyanya ziri mu gitebo kinini cyane. Uyu musaruro ukaba uboneka ku bahinzi bakora ubuhinzi butandukanye, cyane cyane ubw'imboga n'imbuto nka bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya.

Inyubako nini cyane ihunikwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, nk'ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi, aho binyuzwa mu nganda kugira ngo byongererwe agaciro, ibi bigateza imbere ababikora, aho babasha kwinjiza amafaranga ndetse na bo bakazamura imibereho yabo, babona ibibatunga ndetse banabona ubushobozi bubafasha mu gukemura ibibazo byabo bya buri munsi.

Imifuka minini cyane itondetsemo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi yiganjemo umuceri aho, abahinzi basarura umusaruro wabo hanyuma ugacishwa mu nganda kugira ngo wongerwe agaciro, bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo ya buri munsi.

Inyubako ihunikwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, cyane cyane ibigori ndetse n'umuceri. Ahoba bivuye kunyuzwa mu nganda kugira ngo byongererwe agaciro, bituganywamo ibindi bikomoka ku bihingwa bitandukanye. Harimo nk'amafu, umuceri utonoye, ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'ibirayi, aho aba bahinzi bahurije hamwe ubutaka bwabo bagahitamo ingihingwa kimwe bishimiye kugira ngo bagihinge, ibi bibafasha kuzamura umusaruro wabo ndetse bakabona n'umusaruro mwinshi ku buryo kuwushakira amasoko biborohera, bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo.

Igihingwa cy'ibigori ni kimwe mu bifasha ababikwiga mu kuzamura imibereho yabo ndetse n'iterambere ryabo bitewe n'uko umusaruro wabyo uboneka kandi bigira agaciro mu gihe byeze, aho byongererwa agaciro binyuze mu kubitunganyamo ibikoresho bitandukanye, yaba amafu y'igikoma, amafu yo guteka ubugari ndetse n'ibindi.

Imifuka minini cyane ipakiyemo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bizwi nk'ibigori, aho biba byahunguwe neza bigakorwa ku bititiri, bikajya gutunganywamo ndetse binongererwa agaciro bibyazwamo amafu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikenerwa mu buzima bya buri munsi.

Imifuka myinshi cyane ikusanyirijwemo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, wiganjemo ibishyimbo, ibigori, amashaza, ndetse n'ibindi, aho bigiye guhunikwa neza kugira ngo bizagoboke abahinzi mu gihe kiri imbere, bibafasha mu gihe kizaba kitari icy'umwero nk'unko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi n'ubworozi.

Abaturage barimo gutunganya umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ugizwe n'imboga z'inyanya. Aho barimo kuzipakira mu mifuka ndetse banazikuramo izangiritse kugira ngo, bazijyane ku isoko. Ibiyakoremo buhinzi buteza imbere gukora, kuko butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito.

Mu isoko hacururizwa umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, hagaragara ibirayi byinshi cyane biri mu isoku, bikagaragaza iterambere mu buhinzi aho abahinga ibirayi, babona ibitungabu bo ubwabo ndetse bagasagurira amasoko bityo bakabasha kwiteza imbere, gukora ibikorwa bitandukanye binyuze mu bikorwa by'ubuhinzi bakora.

Abaturage barimo gukorera igihingwa cy'umuceri gihinze mu gishanga, aho bahurije hamwe bagahitamo igihingwa kimwe cyo guhinga, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ku guhitamo igihigwa kimwe kigahingwa ku buso bunini, bifasha abahinzi mu kwiteza imbere ndetse no kubona umusaruro mwiza, Ibi bikabafasha mu kuzamura imibereho yabo ya buri munsi.

Imifuka minini cyane itondetse irimo imisaruro y'ibikomoka ku buhinzi bitandukanye nk'amashaza, ibishyimbo, ibigori, amasaka ndetse n'ibindi, ibi byose bigaragaza iterambere mu buhinzi, aho abakora umwuga w'ubuhinzi batagishobora kubona ibibatunga gusa, ahubwo basagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza kandi kinyamwuga, bufasha ababukora kwiteza imbere ndetse no kubona ibibatunga. Bityo bakagira akamaro ndetse bagasagurira n'amasoko. Nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi ko byibuze abahinzi baba bagomba kwita ku myaka yabo, bayuhira, bayitera imiti ndetse n'ibindi bitandukanye hamwe no kubafasha kugira umusaruro mwiza.

Igihingwa cy'urutoki ni kimwe mu biteza imbere ababikora kubera ubwinshi bw'umusaruro gitanga, ibi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kubona ibibatunga bihaza mu mirire hirya no hino mu gihugu, aho impuguke mu by'ubuhinzi zigaragaza ko ibitoki ari bumwe mu buhinzi bw'ingenzi cyane mu kuzamura ubukungu bw'urugo.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bifasha abantu mu kwiteza imbere kuko bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito. Ariko ibi byose bigerwaho iyo izi mboga ndetse n'imbuto zitaweho zikuhirwa ndetse zigaterwa n'imiti yica udukoko ku gihe. Bityo bigafasha abahinzi kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe bifasha ababikora mu kwiteza imbere, kuko bitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, bikorohereza ababikora kubona ibibatunga, ndetse bagasagura n'amasoko, ari byo bibafasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umurima uhinzemo ibyatsi gakondo byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, harimo nk'icyitwa kapusine aho cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, yaba iz'uruhu ndetse n'izifata imbere mu mubiri, ibindi bikaba bigaragaza iterambere, aho abahinzi bashobora guhinga ibikoresho byifashishwa mu gukora imiti itandukanye.

Akarima k'igikoni gahinzemo imboga, zifasha abatuye umuryango kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza, bategura ifunguro ryuzuye rigizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara, aho hari gahunda guverinoma y'u Rwanda yashyizweho mu rwego rwo gufasha abatuye umuryango kugira ubuzima bwiza.

Amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bigaragara hirya no hino mu gihugu, ni bimwe mu bicumbikiye inyamaswa nziza cyane z'uburanga, zikuru ba mukerarugendo baturuka hirya no hino ku isi, baza gusura igihugu cyacu cy'u Rwanda, bityo bigafasha igihugu kwiteza imbere, ndetse no kubona amafaranga y'abanyamahanga, yinjira azanwa nabo ba mukerarugendo.

Ibisheke ni kimwe mu bihingwa bigaragara hirya no hino mu turere tw'u Rwanda, aho abahinga bene iki gihingwa bashobora kwiteza imbere babona ibyo bakenera mu buzima bwabo ndetse bikanababyarira amafaranga kuko bicuruzwa hirya no hino, bikaba byajya gucuruzwa bikabyazwamo amasukari ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu buzima bwa buri munsi binyuze mu nganda.

Igisate cy'ubuhinzi ni kimwe mu bifashe ubukungu bw'Igihugu, kuko Abanyarwanda benshi barenga mirongo inani ku ijana, batunzwe n'iki gice cy'ubuhinzi. Aho bita ku buhinzi bw'ibihingwa ngandurarugo, ndetse n'ibihingwa mbaturabukungu. Aha twavuga nk'ikawa, ibigori, ibijumba, ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Amashyamba kimeza ndetse na pariki z'igihugu, ni bimwe mu bigaragaramo ibiti byinshi cyane kandi birebire, ari nabwo buturo bw'inyamaswa nyinshi cyane zikurura ba mukerarugendo, mu gihe baja mu gihugu cyacu baje kuzisura bakazana amadevize, aribyo bizamura imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere ry'igihugu.

Ubuhinzi bw'ibiti ni bimwe mu bishishikarizwa abaturarwanda kuyoboka nka bimwe mu bitanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu, ndetse bifasha n'abaturarwanda kugerwaho n'umwuka mwiza cyane cyane ko bifata n'ubutaka, birinda ko hatemba isuri, ndetse n'ibindi bibazo by'imyuzure bitandukanye.

Amashyamba ya kimeza aboneka hirya no hino mu gihugu, ni hamwe mu ho inyamaswa zikunda kuba ari zo kandi zinakurura ba mukerarugendo, baturuka imahanga baje gusura igihugu cyacu. Ibi bikazamura iterambere ry'igihugu cyacu ndetse n'imirimo myiza y'abaturage binyuze mu madevize yinjizwa na ba mukerarugendo mu gihe baje gusura izi nyamaswa.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bifasha abikorera mu kwiteza imbere, ndetse bakazamura imibereho yabo, binyuze mu kubona amafunguro ahagije, no gusagurira amasoko bikaba byabafasha kwiteza imbere, aho kandi ubuhinzi butanga umusaruro mu gihe gito, kandi bukaba ari ingenzi cyane.

Amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bigaragara hirya no hino mu Gihugu. Ni bimwe mu bintu bicumbikira inyamaswa z'agahebuzo zikurura ba mukerarugendo baza gusura Igihugu cyacu. Bityo bakadusigira amadevize adufasha mu kwiteza imbere nk'Igihugu, ndetse bikagirira akamaro n'abaturage baturiye ibi byanya kuko babona amahirwe atandukanye yo gukora ibikorwa by'ubucuruzi kuri ba mukerarugendo baba basuye Igihugu.

Abaturage baje kuri pepennyeri aho baje gushaka ingemwe z'ibitiya biribwa ndetse n'ibyera imbuto zitaribwa, aho bagiye kubitera ku mirima yabo kugira ngo bibafashe gufata ubutaka bwabo hirindwa ko bwazatwarwa n'isuri mu gihe k'imvura nyinshi ndetse n'imyuzure.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'imbuto zo mu bwoko bwa kokombure, uri mu kabase k'umuhondo, uteretse hasi, aho uvuye gutunganywa mu murima kugira ngo utunganwe neza ubashe kuribwa ndetse unagezwa ku isoko, ibi bikagaragaza iterambere mu buhinzi aho abahinzi babona umusaruro mwinshi kandi mwiza iyo bahinze neza kijyambere kandi bakuhirira ndetse bakanatera imiti yica udukoko.

Ubuhinzi bw'indabo ni bumwe mu buhinzi budashyirwamo imbaraga n'abantu benshi. Nyamaze butanga umusaruro kubamenye neza, bagasobanukirwa akamaro imboga kuko ziyobora zijya hanze y'igihugu bityo zigafasha abahinzi kwiteza imbere ndetse bananijiza amadevize igihe bagurisha umusaruro w'ibihingwa byabo.

Imineke myiza cyane ifite ibara ry'umuhondo iteretse ku gataro karambitse ku meza, iyi akaba ari umusaruro ukomoka ku buhinzi, aho abahinzi bagirwa inama yo kunoza umusaruro wabo, bita ku bihingwa ndetse banabikora mu buryo bwa kinyamwuga, mu rwego rwo kugira ngo bibateze imbere ndetse binanagirire akamaro igihugu muri rusange.

Ibikorwa by'ubuhinzi cyane cyane bw'imboga n'imbuto ni bimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere, babona amafaranga ndetse banabona umusaruro mwinshi cyane iyo bitaye ku bihingwa byabo. Ibi kandi bikagaragarira ku musaruro ku isoko uba mwinshi bitewe nuko abahinzi bita ku bihingwa byabo uko bikwiriye.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni kimwe mu bifasha ababikora kwiteza imbere kuko bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito. Iyi ikaba itangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi kuko ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto bifasha abanyarwanda kwiteza imbere ndetse no kubona inyungu ku buhinzi ndetse n'igishoro cyabo baba bashoyemo.

Umumama urimo gucuruza ibiribwa bitandukanye byiganjemo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, burimo inyanya ndetse n'ibitunguru. Aho uyu mumama ajya kurangura ibihingwa ku bahinzi baba babyejeje baturanye, hanyuma akabicuruza mu rwego rwo gufasha abatabifite kuba babibona hafi yabo ndetse bitabagoye.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ijipo y'amabara arimo gutera ku murongo ingemwe z'imbuto z'amashu. Izi akaba ari imboga ziterwa hirya no hino mu mirima zigafasha abahinzi kubona ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi bitewe n'umusaruro mwinshi ugaragara ndetse uboneka ku bahinzi b'izi mboga ndetse n'imbuto.

Ubuhinzi bwa kijyambere iyo bukozwe neza ndetse bukanitabwaho, ni bumwe mubufasha ababukora mu kwiteza imbere, babona umusaruro mwinshi kandi mwiza, ubafasha kuzamura imibereho yabo ndetse kandi bakananjiza amafaranga. Uyu ni umurima uhinzemo ibigori ndetse n'inyanya, aho umugabo arimo gusasira yita ku bihingwa bye, agamije kuzamura umusaruro wabyo.

Karoti ni zimwe mu mboga zikenerwa hirya no hino mu gihugu ndetse no ku mafunguro ya buri munsi nkuko zitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima, ko kurya byibuze karoti imwe buri munsi bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza yirinda indwara z'amaso ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bitangwamo inama rero n'impuguke mu by'ubuhinzi ko gukora ubuhinzi bw'imboga cyane cyane zikenerwa mu rugo, ari ingenzi cyane mu kuzamura imibereho myiza y'abarutuye.

Mu isoko hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, hagaragara umumama urimo gucuruza imbuto zavuye mu murima w'abaturage, akaba ari bimwe mu bibafasha kuzamura imibereho yabo, ndetse no kwiteza imbere binyuze mu buhinzi bw'imboga, ndetse n'imbuto.

Akarima k'igikoni ni imwe muri gahunda zashyizwe na Guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage kunoza imirire yabo, cyane cyane hirindwa igwingira ry'abana, ndetse abantu bagamije ko bagira imibereho myiza, barya ifunguro ryuzuye rigizwe n'imboga, imbuto, ibyubaka umubiri, ndetse n'ibirinda indwara.

Ubuhinzi bukozwe neza kandi mu buryo bwa kijyambere, ni bumwe mu butanga umusaruro, bityo bigafasha ababukora kwiteza imbere ndetse no kubona umusaruro no kuzamura imibereho myiza yabo. Cyane cyane nk'ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, nka karoti, intoryi, inyanya ndetse n'ibindi, bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza babona ibibatunga mu ngo zabo bagasagurira n'amasuku.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, ni bimwe mu bizamura ubukungu bw'ababikora ndetse bikanabazamurira imibereho myiza, binyuze mu kubona umusaruro uhagije utuma babona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko, aho nk'ibinyomoro bishobora kwera bigafasha abahiga kubona ibyo kurya, ndetse bikazamura imirire mu ngo zabo bagasagurira n'amasoko.

Abaturage bari mu bikorwa byo kwita ku bihingwa byabo bigizwe na karoti ndetse n'ibigori aho barimo kufira ndetse banatera imiti yabugenewe yica udukoko. Byose bigamije ko ibihingwa byabo bikura neza bikazatanga umusaruro mwinshi, kandi mwiza mu gihe cyagenwe.

Mu isoko hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, bigizwe n'imineke yavuye mu bitoki byahinzwe neza, aho abahinzi bagirwa inama yo gukora ubuhinzi bw'urutoki, nka kimwe mu bihingwa byera vuba, kandi bitanga amafaranga menshi bakora mu guhinga, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kugira imibereho myiza.

Abaturage bari mu bikorwa byo kwita ku myaka yabo, bufira ndetse banakura ibyonyi mu myaka yabo, banaterara kandi imiti yica udukoko, hagamijwe ko birinda ibyahungabanya ibihigwa byabo, bityo bagaharanira ko bagira umusaruro mwiza bakorera imyaka yabo ndetse banayitaho umunsi ku wundi.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu byo abahinzi bagirwamo inama yo gushoramo imari, nka bimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gitoya, aho kandi bibafasha kuzamura imibereho yabo babona ibyo kurya ndetse byujuje ubuziranenge, nk'imboga ndetse n'imbuto, kuko bitangwamo impuguke n'inama mu by'ubuvuzi.

Imbuto z'avoka nziza cyane zirambitse ku meza muri resitora aho zigiye kuribwa bigaragaza ko, umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ugera hirya no hino mu gihugu ndetse unakoreshwa, yewe ufasha abaturage kugira ubuzima bwiza bita ku ndyo yuzuye.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa byihutisha iterambere ry'ababikora, aho abantu bashobora kwiteza imbere bagakora imirimo itandukanye binyuze mu buhinzi ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi, bityo bikazamura imibereho myiza yabo, ubukungu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima uhinzemo imboga zo mu bwoko bw'intoryi, ibi akaba ari bimwe mu bihingwa bitangwamo inama n' impuguke mu by'ubuhinzi, ko guhinga imboga ndetse n'imbuto, ari mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, bityo bakangurira abahinzi kuyoboka bene ubu buhinzi, kubera ko butanga umusaruro mwinshi bigafasha abahinzi, kandi kwiteza imbere no kubona ibibatunga.

Udupaniye dufite ibara ry'umutuku, tubika umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, ugizwe n'avoka zitunganyijwe neza, aho ugiye kongererwa agaciro, kwitabwaho ndetse unahunikwa neza mbere yo kujyanwa ku isoko mpuzamahanga, ibi bigaragaza iterambere mu buhinzi, aho abahinzi bagirwa inama yo gukora ubuhinzi bwabo neza, ndetse bifashashi n'ibikoresho byabugenewe bitanga umusaruro, ndetse bikanabafasha kwiteza imbere, bagateza imbere n'igihugu muri rusange.

Abaturage barimo kwita ku bihingwa byabo by'imboga za puwavuro, aho barimo kuzisasira, bazitaho, hagamijwe ko babungabunga, ndetse bakazamura n'umusaruro mu bwinshi ndetse no bwiza, nka bimwe mubibafasha mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo.

Pepiniyeri zituburirwamo ingemwe z'ibimera bitandukanye cyane cyane ziganjemo ibiti, aho abantu bashobora kujya gutora ingemwe z'ibiti bakazitera ku mirima yabo, kugira ngo bibafashe kurinda isura ubutaka bwabo ndetse binabahe umusaruro, cyane cyane biteze imbere ndetse banarinde ubutaka bwabo.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere ni bimwe mu bifasha kwihutisha iterambere ry'igihugu ndetse n'imibereho myiza y'abagituye, aho abantu babasha kubona ibibatunga ndetse n'ababikora bakiteza imbere. Aho ubuhinzi bw'inyanya ari bumwe mu bwibandwaho mu gihe hakorwa ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto nka kimwe mu bihingwa bikenerwa cyane hirya no hino ku masoko n'abanyarwanda benshi.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu gufasha ababikora kwiteza imbere, aho ubona umusaruro mwinshi, kandi mu gihe kitarambiranye. Ibi bikabafasha kuzamura imibereho yabo, ndetse n'iterambere ryabo muri rusange, cyane cyane imbuto aho zishobora kwera igihe kirenga umwaka abantu basarura, bikazamura ndetse bikabaha n'ubushobozi bwo kuba bakora ibikorwa bitandukanye, binyuze mu musaruro w'ubuhinzi bwabo.

Isoko ricururizwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi cyane cyane wibanda ku mboga ndetse n'imbuto ahagaragara imbuto z'ubwoko butandukanye harimo amapera, amaronji, inanasi, indimu, marakuja ndetse n'ibindi, aho byaje gucuruzwa bikongera agaciro umusaruro w'abahinzi.

Isoko ricururizwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, hagaragaramo cyane cyane ibiboneka hirya no hino mu bice by'Intara, harimo nk'ibihaza, ibijumba, imyumbati, ndetse n'ibindi, aho abacuruzi baza kurangura ibicuruzwa hirya no hino ku baturage baba babyejeje, hanyuma bityo bikabafasha kwiteza imbere, ndetse bakabasha no kubona uko biteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bikorwa n'abahinzi hirya no hino mu gihugu ndetse bikabafasha mu kwiteza imbere bitewe no ku musaruro uturuka muri ubu buhinzi ubafasha mu gukora ibikorwa remezo bitandukanye ndetse no kwegereza ibindi no kwishyura mituweli ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni kimwe mu bifasha abaturage mu kwiteza imbere, kubera ko bitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya. Ibi kandi bikaba bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi, bugira inama abaturage ko bayoboka ubuhinzi bwa bene ibi bihingwa kuko bitanga umusaruro kandi bigafasha ababikora kugira ubuzima bwiza ndetse no kwiteza imbere.

Ibinyomoro ni bimwe mu bihingwa bigaragara hirya no hino mu gihugu kandi bifasha ababihinga kwiteza imbere ndetse no kugira imibereho myiza bita ku buzima bwabo kuko imbuto ari ingenzi cyane nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima ko nibura abantu bagomba kurya imbuto buri munsi ku mafunguro yabo.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, kuko bushobora gukorwa kandi bugatanga umusaruro mu gihe gito, aho kandi bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza babona amafunguro abatunga, ndetse bagasagurira n'amasoko, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo ya buri munsi.

Akarima k'igikoni ni imwe muri gahunda zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage kurwana n'ibigwingira ndetse n'imirire mibi. Aho bashishikariza buri rugo kugira akarima k'igikoni gahingwamo imboga. Byibuze zikenerwa ku mafunguro yo mu rugo, bifasha abaturage kugira ubuzima bwiza, bazamura imbeho yabo; barya ifunguro ryuzuye rigizwe n'imboga, imbuto ndetse n'ibindi.

Abaturage bazindukiye kuri pepenyeri baje gushaka ingemwe z'ibiti yaba iby'imbuto ndetse n'ibivangwa n'imyaka, kugira ngo bajye kubitera ku miririmo yabo, nk'uko byagaragajwe n'impuguke mu by'ubuhinzi ko bifasha ubutaka gukomera. Bityo bukaba butatembanwa n'isuri ndetse n'imyuzure mu gihe cy'imvura.

Igihingwa cy'ibinyomoro ni kimwe mu mbuto zihingwa hirya no hino mu gihugu, aho kandi kigira umumaro munini cyane ku bahinga bene iki gihingwa kuko gitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito. Ibi biba ariko mu gihe ubihinga yabyitayeho agatera imiti yica udukoko, agafuhira ndetse agatanga n'ibindi byangombwa nkenerwa kugira ngo agire umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ibimera bitandukanye byifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti inyuranye, ifasha mu kuvura indwara zitandukanye, bigenda bigaragara hirya no hino mu gihugu, ndetse binatanga umusanzu mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, bigaragaza ko buri cyiciro cyose ndetse ubuhinzi ari ingenzi cyane, hibandwa kuri bene ibi bihingwa.

Umuturage urimo kuhira imyaka ye y'ibishyimbo yifashishije ipombo yabugenewe yifashishwa mu gikorwa cyo kuhira. Ibi akaba ari mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, aho bitakiri ngombwa ko abantu biringira ikirere gusa, ahubwo nabo bagire uruhare mu kunoza umusaruro wabo ndetse no kwita ku bihingwa byabo kugira ngo babone umusaruro bifuza.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'umukara ndetse n'amadarubindi amufasha kurinda amaso ye aho ari mu bikorwa byo kwica udukoko akoresheje imiti yabugenewe yifashishwa mu bahinzi mu rwego rwo kurwanya ibikoko ndetse n'ibyo n'ibindi bishobora gutuma umusaruro w'ubahinzi utaboneneka neza nk'uko wari witezwe.

Umubyeyi witeze igitambaro cy'umutuku, wambaye agapira k'umuhondo, akenyeye igitenge aho ari mu bikorwa byo kuhira imboga ze yifashije umupira wabugenewe. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke by'ubuhinzi, ko kuhira imyaka cyane cyane mu gihe cy'izuba biyifasha kugira ubuzima bwiza, bityo bigatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'ubururu, ari mu bikorwa byo kuhira imyaka ye ihinze neza, ku murongo mu buryo bwa kijyambere. Iyi ikaba ari imwe mu inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, ku kwita cyane cyane ku myaka uyuhira, ndetse unica ibyonnyi biri hagati muri yo, bituma ugira umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umugabo waje kuhira imyaka ye yifashishije imashini kabuhariwe yifashishwa mu bikorwa byo kuhira aho ikura amazi iyakura mu migezi, hanyuma ikayakwirakwizwa hirya no hino mu guhinga, iyi ikaba imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko abahinzi bakagombye kuhira imyaka yabo cyane cyane mu gihe k'izuba, hagamije ko bongera umusaruro wabo.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, agapira k'ikigina ndetse n'ipantaro y'umukara, aho ari mu bikorwa byo kuhira imyaka yifashishije imashini zabugenewe, iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ku bahinzi hagamijwe ko umusaruro wabo ukomeza kuboneka nk'uko bisanzwe.

Umugabo wambaye agapira k'umukara, ipantaro ya kaki, ndetse na bote z'umukara, aho arimo kuhira imyaka yifashisha imipira ya bugenewe, iyi akaba ari mu nama zitangwa n'impimpuguke mu by'ubuhinzi ko kuhira imyaka cyane cyane mu gihe cy'izuba bifasha abahinzi mu kongera umusaruro mwiza ndetse no mu bwinshi, bahereza ibihingwa byabo amazi bikeneye kugira ngo bigire imikurire myiza.

Ubuhinzi bukozwe neza ndetse n'inyamwuga ni bimwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere, babona umusaruro mwinshi kandi mwiza bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu biribwa, aho impuguke mu by'ubuhinzi zigira inama abahinzi ko bagomba kuhira imyaka yabo mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe bityo bagahora bafite umusaruro mwiza, kabone n'ubwo ibihe byaba byarahindaguritse.

Kuhira imyaka cyane cyane mu gihe cy'izuba ni imwe mu nama zitangwamo n'abajyanama mu by'ubuhinzi ndetse n'impuguke mu by'ubuhinzi, nka kimwe mu bisubizo bifasha abahinzi kugira umusaruro mwiza, batitaye ko igihe cyaba kimeze nabi. Ibi kandi bikaba bibafasha kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umugabo ndetse n'umugore bari mu bikorwa byo kuhira imyaka yabo, bifashishije imipira yabugenewe yifashishwa mu gihe cyo kuhira, iyi akaba ari imwe mu ngamba zashyizweho mu buryo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, aho abaturage bagirwa inama yo kurira imyaka yabo, kugira ngo ikure neza bityo izatange umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Igishanga kinini cyane gihinzemo igihingwa cy'umuceri, nka kimwe mu bihingwa ngandurarugo biboneka hirya no hino mu bishanga cyane cyane ahaboneka amazi menshi. bifasha abahinzi mu kwiteza imbere, aho babona uwo kurya ndetse bagasagurira n'amasoko, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki, aha hakaba arih hacumbikira inyamaswa nyinshi cyane ziganjemo izikurura ba mukerarugendo nk'ingagi, imbogo, imparage ndetse n'izindi. Izi zikagira uruhare mu kuzamura iterambere ry'ubukungu binyuze mu gukurura ba mukerarugendo baza gusura izi nyamaswa bakadusigira amadevize.

Amashyamba ya kimeza ni kimwe mu bikorwa remezo, bikurura ba mukerarugendo hirya no hino ku isi baza kubisura bareba umwimerere ndetse n'umwihariko w'igihugu cyacu. Ibi ngibi bigafasha igihugu mu kwinjiza amadevize ndetse no guteza imbere uruganda rw'ubukerarugendo, hagamijwe ko abatuye Igihugu bakomeza kungukira mu butwererane ndetse n'ubuhahirane hagati y'igihugu ndetse na ba mukerarugendo bugisura.

Igishanga kinini gihinzemo igihingwa cy'umuceri hagaragara abagore ndetse n'abagabo baje mu mirimo yabo ya buri munsi yo gutunganya ndetse no gukorera ibihingwa byabo, ibi bibafasha kuzamura umusaruro wabo ndetse no kuhesha ireme ndetse bikabafasha no kwiteza imbere mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Igishanga gihinzemo imyaka itandukanye higanjemo ibinyampeke bigizwe ibishyimbo ndetse n'amasaka, aho abahinzi bakorera ubuhinzi bwa kijyambere bahinga igihingwa kimwe mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere bita cyane ku buhinzi, bongera umusaruro ukomoka ku byo bahinga.

Amaterasi y'indinganire, ni kimwe mu byashyizwemo imbaraga na Guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage, cyane cyane abafite ubutaka, ahantu hari imisozi ihanamye, mu rwego kwirinda ko ubutaka bwabo bwatwarwa n'isuri, mu gihe cy'imvura. Bityo bagaca amaterasi y'indinganire, abafasha mu kunoza kubona umusaruro ndetse no gukomeza ubutaka bwabo.

Ikibaya cy'abahinzi bihurije muri koperative bagahuza ibihingwa byabo, aho bahitamo igihingwa kimwe bahinga ku butaka bwabo, ibi bikabafasha kuzamura umusaruro wabo hirindwa ibyonnyi ndetse n'ibindi, aho kandi n'umusaruro wabo ushakirwa isoko icyarimwe, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe neza ni bumwe mubufasha gukora kwiteza imbere babona ibibatunga ndetse banasagurira amasoko bityo bakabasha kwiteza imbere. Aho abahinzi basabwa guhuriza hamwe igihingwa runaka kimwe bihitiyemo akaba aricyo bajya bahinga ahantu. Bibafasha kuzamura umusaruro mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Amaterasi meza y'indinganire ni bimwe mu byifashishwa n'abahinzi cyane cyane bo mu misozi ihanamye, mu kurinda ubutaka bwabo ko bwatarwa n'isuri ndetse no kubafasha kuzamura umusaruro wabo, binyuze mu guhinga kuri aya materasi ndetse bakabona n'ubwatsi bw'amatungo yabo, mu gihe bateye mu matarasi.

Ubuhinzi bwa kijyambere iyo bukozwe neza ndetse bukitabwaho, ni kimwe mu bitanga umusaruro ndetse bigateza imbere ababukora, yaba mu buryo bwo kwihaza mu mirire ndetse no kubona ubushobozi binyuze muri ibi bikorwa by'ubuhinzi; akaba ari inama kandi itangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi, nka hamwe mu hashobora gutanga agatubutse mu gihe abantu bahitabira kuhashora imari.

Umusozi munini cyane uhinzeho igingwa cy'ibigori, akaba ari ubutaka bwahujwe aho abahinzi bihuriza hamwe muri koperative bagahitamo igihingwa kimwe, bakagihuriraho bose akaba aricyo bahinga, bikabafasha mu kuzamura iterambere ndetse bakagira n'umusaruro mwinshi, bityo bagashakirwa n'amasoko, bibafasha kwiteza imbere no kuzamura imibereho yabo.

Ikibaya kinini cyane kigizwe n'ubutaka bw'abahinzi bibumbiye muri koperative aho barimo guhinga batunganya ubutaka bwabo bategereje igihembwe cy'ihinga ko gitangira ngo batere imbuto. Akaba ari mu butaka bwahujwe hamwe buhingwamo igihingwa kimwe mu rwego rwo gufasha abaturage mu kongera umusaruro mu bwinshi ndetse no mu bwiza, bityo ukaba wanashakirwa amasoko bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bwa kijyambere ndetse bukozwe neza, ni bimwe mu bitanga umusaruro ndetse bugafasha abikora kwiteza imbere, bazamura imibereho yabo ndetse banagirira akamaro sosiyete muri rusange, kuko bagura ndetse bagasagurira n'amasoko. Aho kandi abahinzi bagirwa inama yo kuyoboka ubuhinzi ndetse bakabukora kinyamwuga.

Ubworozi bw'amatuko magufi ni bimwe mu bikorwa bifasha abaturage kwiteza imbere, aho ubasha kubona umusaruro w'ibikomoka ku bworozi nka mata, ifumbire ndetse n'ibindi. Bibafasha mu kwiteza imbere m'ubuzima bwabo bwa buri munsi binyuze mu gukora ubworozi bw'aya matungo magufi.

Ubworozi bwa kijyambere bukozwe neza, ni bimwe mu biteza imbere ababukora, aho bubafasha kuzamura imibereho yabo ndetse no kugira amafaranga binjiza, binyuze muri ubu bworozi. Aha twavugamo nk'ubworozi bw'amatungo magufi, cyane cyane nk'ingurube, ihene, inkwavu ndetse n'ibindi.

Ibiraro bya kijyambere byubatse neza ku murongo bishakaje amabati ndetse bikoze ku buryo bwiza cyane, byororerwamo amatungo magufi ingurube, aho ubu ubworozi bw'ingurube ari bumwe mu bigomba gutanga umusaruro mu gihe gito kandi bugafasha gukora, kwiteza imbere ndetse no kubona imibereho myiza binyuze kuri ubu bworozi.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukozwe neza ndetse mu buryo bwa kinyamwuga bufasha ababukora kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho myiza yabo, aho bashobora kubona umusaruro w'ibikomoka ku matungo harimo nk'inyama amagi ndetse babasha no kwiteza imbere binyuze mu kuba bagurisha amatungo, kubona ifumbire ribafasha mu buhinzi bwabo ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mu bufasha ababukora mu kwiteza imbere babona ibibatunga ndetse banabona ibikomoka ku matungo biboroheye, bikabafasha kugira ubuzima bwiza. Rimwe mu matungo magufi rero ni ihene, intama, inkwavu ndetse n'ayandi.

Ibiraro byinshi cyane bikorerwamo ibikorwa by'ubworozi bw'amatungo magufi yiganjemo ingurube. aya aka ari amwe matungo agirwamo inama gukoraho ubworozi abashaka gukora bizinesi z'ubworozi bayoboka kuko zitanga umusaruro vuba ndetse bigafasha abikora kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka ni bimwe mu bifasha gukora kwiteza imbere kuko bitanga umusaruro mwinshi cyane wiganjemo ibikomoka ku matungo nk'amata bikenewe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Aya matungo kandi afasha abaturage kubona ifumbire ibafasha gufumbira imirima yabo ndetse ikabafasha mu kugira umusaruro mwiza binyuze muri ubu bworozi.

Umugabo wambaye agakoti k'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umutuku, afashe mu ntoki ikibwana cy'ingurube, iri akaba ari itungo rigufi ryororwa hirya no hino mu gihugu ndetse rigafasha abaturage kwiteza imbere, bitewe n'ubwinshi ndetse n'umusaruro ritanga mu gihe gitoya.

Abagabo babiri barimo kugaburira amatungo ari mu biraro bya kijyambere byororerwamo inkwavu, aya akaba ari amwe mu matungo azwi kwihutisha iterambere ry'abayorora, aho atanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, bigafasha abayorora kwiteza imbere, ndetse bagira n'ubuzima bwiza, aho babona ibikomoka ku matungo byiganjemo inyama, ndetse n'ibindi bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Umugabo ufashe ku mugongo w'inka yoroye aho barimo kuyigaburira, ndetse inahabwa imiti n'umuganga wabugenewe. Iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho , mu rwego rwo gufasha aborozi kwirinda ibihumbo bitandukanye bituruka, ku mpanuka ndetse n'impfu z'amatungo yabo zigira igihe, habaye ibyorezo ndetse n'uburwayi bufata amatungo yabo mu bihe binyuranye.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, ni bumwe mu bufasha ababukora mu kwiteza imbere, ndetse bakazamura n'imibereho myiza yabo, aho babona iby'ibanze nkenerwa nk'amata, ndetse n'inyama nka bimwe mu bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho kandi bashobora kubona ifumbire rifasha mu kunoza ubuhinzi bwabo, bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Ibiraro byinshi cyane byubatswe mu buryo bwa kijyambere, ahororerwa amatungo magufi yiganjemo ingurube nka bumwe mu bworozi butanga umusaruro mwinshi mu bwiza ndetse no mu bwinshi, bigafasha ababikora kwiteza imbere mu gihe gito ndetse banabona amafaranga ndetse n'inyungu ku bikorwa byabo by'ubworozi.

Ubworozi bw'amatungo maremare yiganjemo inka, ni bumwe mubiteza imbere ababukora, ndetse bukazamura imibereho myiza yabo, aho babona ifumbire ibafasha mu kunoza ibikorwa by'ubuhinzi, ndetse bakabona amata, inyama, ndetse n'ibindi byose bibafasha kugira ubuzima bwiza, ndetse bikanazamura iterambere ryabo.

Ubworozi bw'amatungo magufi iyo bukozwe neza ni bumwe bishobora gutanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, bityo bigafasha aba abikora mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere sosiyete muri rusange, batanga umusanzu wabo mu kubona ibiribwa ndetse n'ibitunga sosiyete mu buryo butandukanye.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mubitangwamo inama n' impuguke mu by'ubworozi, ko iyo bukozwe neza kandi bukitabwaho butanga umusaruro mwinshi, ndetse bugafasha ababukora kwiteza imbere, ndetse babona n'iby'ibanze nkenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi, nk'ifumbire, ibiryo, ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mu butanga umusaruro mu gihe gito kandi bugafasha abikorera kwiteza imbere, babona ibikomoka ku matungo ndetse n'umusaruro mu gihe gitoya, niyo mpamvu impuguke mu by'ubworozi zigira inama abanyarwanda cyane cyane abo mu cyiciro cyo hasi kuyoboka ubu bworozi nka bimwe mu bisubizo byabafasha mu kwiteza imbere mu gihe gito.

Ubworozi bwa kijyambere cyane cyane bw'amatungo magufi ni bumwe mu bwihutisha iterambere ryo gukora ndetse rikazamura n'imibereho ye umunsi ku munsi kuko abasha kubona ibyo akenera mu buzima bwa buri munsi harimo nk'ibiribwa ndetse n'ifumbire bimufasha kuyinyura imyaka ye ndetse bikamufasha kwiteza imbere no kugira umusaruro mu gihugu muri rusange.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bimwe mu bifasha abahinzi ndetse n'aborozi mu kwiteza imbere babona ibyangombwa nkenerwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi bwabo. Aha twavugamo nk'ifumbire ryifashishwa n'abahinzi ndetse n'umusaruro w'ibikomoka ku bworozi nk'amata, inyama ndetse n'ibindi byose bibafasha kugira imibereho myiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi, ni kimwe mu bitanga amafaranga menshi ndetse bigateza imbere ababukora, iyo byitaweho neza, bugashyirwamo imbaraga ndetse ugahabwa umwanya. Iyi akaba kandi ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, ko abashaka gukora ibikorwa bibateza imbere cyane cyane abo mu cyiciro cyo hasi bayoboka ubu bworozi.

Ingurube ni zimwe m matungo magufi atanga umusaruro mu gihe gito, iyo yitaweho neza ibona biyitunga, ndetse n'imiti ikenera neza ku gihe, ibi akaba ari bimwe mubitangwamo inama n'impuguke, ko gukora ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ingurube, inkoko, ihene ndetse n'ibindi bifasha abikora kwiteza imbere ndetse banagira imibereho myiza, aho bibaha ibyo bakenera cyane byiganjemo amafunguro ndetse n'ibindi.

Ubworozi bukozwe neza kinyamwuga, ni bimwe mu bifasha aborozi mu kwiteza imbere ndetse babona umusaruro mwinshi cyane ku matungo yabo, yaba abakora ubworozi bw'amatungo magufi cyangwa se ubw'amaremare, aho bashobora kwihazamo birimo bitandukanye nk'amata, inyama ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi, ni bumwe mu buteza imbere ababukora ,cyane cyane abo mu kiciro cyo hasi ,kuko butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito, bityo ababukora bukabafasha kwiteza imbere ,harimo nk'inyama ndetse n'ibindi bikomoka ku matungo, nk'amata, ifumbire rifasha abahinzi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare ni bimwe mu bifasha abaturarwanda benshi kwiteza imbere ndetse bakagira n'imibereho myiza aho bakenera cyane umusaruro ukomoka ku bworozi wiganjemo amata n'inyama nka bimwe mu byo umubiri ukene cyane umunsi ku wundi.

Abaturage bazanye amatungo yabo yiganjemo amaremare nk'inka, aho yaje gukingirwa ibyorezo ndetse n'indwara zitandukanye, iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda, mu rwo gufasha aborozi kwirinda ibihombo bitandukanye biterwa n'ibyorezo bifata amatungo yabo bahabwa inkingo.

Ubworozi bw'amatungo magufi iyo bukozwe neza kandi kinyamwuga ni bimwe mu bishobora guteza imbere ubikora, aho kandi bizamura imibereho ye abona umusaruro w'ibikomoka ku bworozi nk'amata, inyama ndetse n'ibindi. Byose bikamufasha kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza binyuze kuri ubu bworozi.

Abaganga b'amatungo bari mu bikorwa byo gukingira inka aho zahurijwe hamwe kuri site kugira ngo zirindwe indwara z'ibyorezo, iyi akaba ari imwe muri gahunda zishyirwa na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha aborozi kuba barinda amatungo yabo ibyorezo bitandukanye biyafata mu bihe binyuranye, amatungo yabo ahabwa inkingo mu gihe gikwiye.

Ibiraro bigezweho bya kijyambere byorerwamo amatungo magufi, azwi nk' ingurube, akaba ari amatungo atanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, aho abayakora babasha kwiteza imbere babona ibyo bakenera mu buzima bwabo byiganjemo inyama ndetse bakabanishyuza amafaranga, abafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu cyabo muri rusange.

Ubworozi bw'amatungo maremare ni bumwe mu bifasha aborozi mu kwiteza imbere, aho babona umusaruro mwinshi kandi wa ngombwa mu buzima bwa buri munsi, aho amatungo maremare nk'inka atanga ifumbire ryifashishwa n'abahinzi mu gutera imyaka yabo bityo bakabona umusaruro ubasha gutuma bihaza mu mirire, ndetse bagasagurira n'amasoko.

Kurora amatungo maremare iyo bikozwe neza bitanga umusaruro mwinshi ku bahinzi ndetse n'aborozi, kuko bitanga umusaruro mwinshi, harimo uwiganjemo ibikomoka ku matungo, nk'amata, inyama, ndetse n'indi, uretse ko kandi n'aya matungo maremare afasha abahinzi ndetse n'abororezi kubona ifumbire, bifashisha mu gukora akazi kabo ka buri munsi, bityo bikabafasha kuzamura umusaruro.

Ubworozi bukozwe neza kandi kinyamwuga, ni bimwe mu bifasha abikora mu kwiteza imbere ndetse no kubona umusaruro mwinshi cyane w'ibikomoka ku bworozi bigizwe n'amata, ndetse n'inyama, bigabafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kuzamura imibereho yabo, aho kandi baniteza imbere binyuze ku bworozi bwabo.

Ubworozi bwa kijyambere bukozwe neza bufasha ababukora mu kwiteza imbere ndetse bakabona n'umusaruro mwinshi kandi mwiza. Itungo ry'ingurube ni rimwe mu matungo magufi rero yororwa hirya no hino gihugu iyo yitaweho neza atanga umusaruro ndetse agafasha n'aborozi kwiteza imbere, bitewe ko umusaruro mwinshi utangwa kandi mu gihe gitoya.

Kororera mu biraro ni imwe muri gahunda zashyizwemo imbaraga na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage ko bagira ubuzima bwiza, birinda ko amatungo yaba yandagaye ku gasozi, bityo akaba yateza indwara ndetse anonona ibintu bitandukanye, ahagaragara ingurube ndetse n'ibibwana byayo, aho birimo konka byose biri mu kiraro.

Ubworozi bwa kijyambere bugezweho, ni bimwe mu bifasha ababikora mu kwiteza imbere, baronka amafaranga, ndetse bihaza no mu biribwa ,ndetse n'ibindi ngenerwa byabo bya buri munsi, ariko nk'inyama ndetse n'amagi, inkoko kuko ni kimwe mu matungo magufi atanga umusaruro mwishi mu gihe gito, bityo bakaba bagirwa inama yo kuyoboka ubworozi.

Ubworozi bukoze neza ndetse kinyamwuga ni bimwe mu bifasha aborozi mu kwiteza imbere ndetse no kwinjiza amafaranga, abona ibyangombwa nkenerwa, aho kandi aya matungo abona ubuvuzi ndetse n'ibindi byose bikenewe mu gihe cyanyacyo bitewe n'abaganga ndetse n'impuguke mu by'ubworozi zigaragara hirya no hino mu gihugu.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare ni kimwe mu biteza imbere ababikora, aho ubasha kubona imisaruro y'ibikomoka ku buhinzi harimo nk'amata, inyama ndetse n'ibindi bikenerwa bya buri munsi. Aya matungo kandi afasha abaturage kubona ifumbire ibafasha mu gufumbira imyaka yabo, bityo bakazamura umusaruro w'ubuhinzi ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni kimwe mu bikorwa bitanga amafaranga ndetse bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza ndetse no kuzamura imibereho yabo, kuko bitanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, aho abaturage batagira ibibazo by'ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi, byiganjemo inyama, amata ndetse n'ibindi bikenewe mu buzima bwa buri munsi.

Ubworozi bwa kijyambere bukozwe neza, ni bumwe bufasha gukora kwiteza imbere ndetse bakagira n'ubuzima bwiza, binyuze mu kubona ibibatunga harimo nk'inyama, amagi, ndetse n'ibindi by'ibanze nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, bityo bikaba bishishikarizwa abantu benshi gukora ubwo bworozi, nka kimwe mu bisubizo by'iterambere ndetse n'imibereho myiza.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bumwe mu buteza imbere ababukora iyo bwitaweho ndetse bugakorwa neza kinyamwuga, huhirwa ndetse bunaterwa imiti yica udukoko bifasha ababikora kugira umusaruro mwiza, bityo bikazamura imibereho yabo ndetse n'iterambere muri rusange.

Amatunda ni kimwe mu mbuto zihingwa n'abahinzi hirya no hino mu gihugu. iki akaba ari ihingwa gifasha abahinga kwiteza imbere, aho kandi bagira n'ubuzima bwiza barya imbuto, ndetse babona nizo basagurira amasoko bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo.

Umurima munini cyane uhinzemo ibishyimbo biteye neza ku murongo mu buryo bwa kijyambere. Iyo akaba ari inama imwe zitangwamo impimpuguke mu by'ubuhinzi ku buhinzi bukozwe neza abahinzi batera ku murongo ndetse batera bya kijyambere banafuhira banita ku myaka yabo ari bimwe mu bibafasha kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ku nkengero z'umugezi utemba ahagaragara ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibisheke, imyumbati, ndetse n'ibindi. Ibi byose bikaba ari ibihingwa ngandurarugo bigaragarira hirya hino mu gihugu, aho bihinga babasha kubona umusaruro ubatunga ndetse bagasagurira n'amasoko, bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Mumurima munini cyane uhinzemo imyumbati mu buryo bwa kijyambere, aho imyumbati iteye ku murongo ndetse initabwaho yuhirwa, ndetse inaterwa imiti yica udukoko. Bikagaragaza iterambere mu buhinzi, aho abahinzi bashishikarizwa kwita ku bihingwa byabo kugira ngo bizabahe umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Pepiniyeri itunganyirizwamo ingemwe z'ibiti by'ubwoko bitandukanye byifashishwa mu kurwanya isuri ndetse no gutanga umwuka mwiza hirya no hino, abahinzi bakaba bagirwa inama yo gukoresha ibi biti cyane cyane bitona bishyirwa mu nkengero z'imirima yabo, kugira ngo bibafashe kuba byarinda imiririma yabo kuba yatembanywa n'isuri.

Gutera ibiti ni ingirakamaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko bigira akamaro kanini: yaba mu gutanga umwuka mwiza duhumeka, mu gufata ibyuka bihumanya ikirere yewe ndetse no kurinda isuri ndetse n'imyuzure hirya no hino; aho ibiti biterwa neza mu nkengero z'imirima cyangwa se mu masambu yabugenewe, hagaterwamo ingemwe z'ubwoko bw'ibiti bitandukanye.

Ubuhinzi ni umwe mu myuga itunze abanyarwanda benshi, aho igice kinini cy'abaturarwanda cyane cyane abatuye mu bice by'intara, bibanda cyane ku bikorwa by'ubuhinzi nka bimwebafasha kwiteza imbere ndetse no kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho bahinga ibihingwa bitandukanye nk'imyumbati, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'ibishyimbo byiza cyane byamaze gutunganywa bikanikwa neza, aho bitegereje guhunikwa kugira ngo bishyirwe ku masoko ndetse bizanakoreshwe bigoboka abahinzi mu gihe kiri imbere, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ko kubika neza umusaruro ukomoka ku buhinzi bifasha abahinzi kwizigamira ibyo bazakenera mu gihe kizaza.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo igihingwa cy'ibigori aho abahinzi bo muri iki kibaya bihurije muri koperative bagahinga igihingwa kimwe, nka bimwe mubafasha kubona umusaruro mwinshi ndetse no kugabanya ibibazo bituruka mu buhinzi bw'akajagari harimo nk'ibyonnyi, ndetse n'ibindi.

Muri pepeniyeri hari ahatuburirwa ingemwe z'imbuto zitandukanye yaba iz'ibiti by'imbuto ndetse n'ibiti bindi bisanzwe bihingwa nk'intusi, gereveriya ndetse n'ibindi, aho ibiti bituburirwa hanyuma abaturage bagafata ingemwe z'ibiti bakazishyira mu mirima yabo mu rwego rwo kubafasha kongera umusaruro ndetse no kurinda ubutaka bwabo kuba bwatwarwa n'isuri mu bihe by'imyuzure ndetse n'imvura nyinshi.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni kimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi, kuko bifasha ababikora mu kwiteza imbere ndetse no kubona umusaruro mu gihe gito, bityo bakazamura imibereho yabo ndetse banagira uruhare mu iterambere rya sosiyete, aho batanga ibiribwa, ndetse basagurira n'amasoko hirya no hino mu gihugu.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi. Nka bimwe bishobora gushorwamo imari bigatanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya. Ibi bikaba bikangurirwa abaturage cyane cyane abakutuye hirya no hino bakora ibikorwa by'ubuhinzi, nko guhinga imboga ndetse n'imbuto byabafasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bwa kijyambere ndetse bukozwe neza ni bimwe mu bifasha abahinzi mu kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi kandi mwiza, aho babasha kubona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko. Umurima uhinzemo imboga z'amashu ateye neza ku murongo ndetse yitabwaho umunsi ku wundi, yuhirwa ndetse anaterwa imiti yabugenewe irinda udukoko ko twakangiriza izi mboga.

Muri pepinyeri ahatuburirwa ndetse hakanakorerwa imbuto ndetse n'ingemwe z'ibihingwa bitandukanye, byiganjemo ibiti, yaba ibiti bivangwa n'imyaka ibyera imbuto cyangwa se inturusu, byose bikaba itunganwa ndetse bigatuburirwa ahangaha muri pepinyeri bikahavanwa ari ingemwe, bityo abaturage bakajya kubitera ku mirima yabo babibyazamo umusaruro mu buryo butandukanye.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bumwe buteza imbere ababukora, aho babasha kubona amafunguro abatunga, ndetse kandi bakabasha gusagurira n'amasoko, ibi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange. Iki ni igihingwa cy'inyanya, gihinze aho cyitabwaho umunsi ku wundi n'abahinzi buhira ndetse banatera imiti ikenewe kugira ngo umusaruro wabo uboneke ku bwinshi.

Ubuhinzi bwa kijyambere ya bukozwe neza ndetse bukitabwaho ni bumwe mu bishobora gufasha umuntu gutera imbere ndetse akazamura n'imibereho abona inyungu mu buhinzi ndetse anakorana n'ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere aha akaba ari mu murima uhinzemo ibirayi bihenze neza mu buryo bwa kijyambere aho byitabwaho bikuhirwa ndetse bigaterwa n'imiti yica udukoko kugira umusaruro wabyo uziyongere mu ngano ndetse no mu bwiza.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, aho ari mu ibikorwa byo guhembera ibishyimbo, abishyiraho imishingiriro, ibi hakaba harimo no kubifasha kuzamuka neza, bizamuka hejuru ndetse ibi bikaba bitanga umusaruro mwinshi cyane ugereranyije no kubireka bikarandira hasi.

Muri pepeniyeri ahatunganyirizwa ingemwe z'imbuto zitandukanye ziganjemo ibiti cyane cyane ibitanga imbuto ndetse n'ibyo gufata ubutaka bisanzwe, aho bitunganywa neza hanyuma abaturage bagahabwa ingemwe bajya gutera mu mirima yabo mu rwego rwo kubafasha kwirinda ibikorwa bitandukanye byangiza ubutaka bwabo nk'isuri ndetse n'ibindi.

Umwuga w'ubuhinzi ni kimwe mu bifasha ubikora mu kwiteza imbere cyane cyane iyo yahinze imboga ndetse n'imbuto, aho urusenda ari kimwe mu mbuto zihingwa hirya no hino mu gihugu ndetse zikohererwa hanze yacyo, bigafasha ubikora kwiteza imbere ndetse no kugirira akamaro igihugu muri rusange, aho agifasha kwinjiza amadevize, bityo bikazamura imibereho ye ku giti cye, ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abavuzi b'amatungo iyo barimo gutanga serivisi z'ubuvuzi ku bworozi hirya no hino mu gihugu. Ibi bigaragaza iterambere muri buri rwego ndetse by'umwihariko mu bworozi, aho inyamaswa ndetse n'amatungo by'aborozi byitabwaho bihabwa ubuvuzi bujyanye n'igihe.

Umuganga w'amatungo aho ari mu ibikorwa byo gukingira inka ayitera inkingo zitandukanye, nk'imwe muri gahunda zashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha aborozi kwirinda ibihombo bya hato na hato bituruka ku ndwara z'ibyorezo zifata amatungo yabo bikaba byabatera ibihombo.

Umuvuzi w'amatungo wambaye igisarubeti cy'ubururu aho arimo kwandika abarura umuturage umaze guhabwa serivisi z'ubuvuzi bw'amatungo, nka kimwe mu bisubizo byaje kurwanya ibihombo abahinzi ndetse n'aborozi bagiraga, mu kazi kabo, baterwa n'ibyorezo ndetse n'indwara zitandukanye.

Inyubako ya raboratwari, igaragara mu kigo cy'amashuri, aho abanyeshuri bashyira mu ngiro ibyo biga, ibi bikabafasha mu kuzamura ireme ry'uburezi ndetse no kuzamura ubushobozi bwabo, bamenya gushyira mu ngiro ibyo biga, cyane cyane babibyaza ibikenewe ku isoko ry'umurimo.

Umuganga w'amatungo wabugenewe arimo kwambika inka iherena. Iyi akaba ari muri serivisi zihabwa amatungo hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kuyafasha kuba yamenyekana aho ari ndetse akaba yakurikiranwa mu gihe habaye ibibazo runaka.

Umuvuzi w'amatungo wambaye igisaruberi cy'icyati na bote z'umukara. Imbere ye hari inka bigaragare ko agiye kuyihereza imiti. Iyi ikaba muri serivisi zitangwa n'abavuzi mu rwego rwo kwita ku buzima bw'amatungo, cyane cyane hirindwa igihombo aborozi bahura nacyo mu gihe amatungo yabo yaba yahuye n'uburwayi.

Amashyamba cyimeza ndetse n'ibyanya bya parike, ni bimwe mu bibamo inyamaswa zikurura ba mukerarugendo, baza gusura u Rwanda. Bityo bagasiga amadevize ariyo adufasha kwiteza imbere, ndetse no kuzamura ubukungu bw'Igihugu. Hagaragara kandi n'ibikorwa remezo bibafasha mu koroshya ingendo zabo, igihe barimo gutembera hirya no hino y'amashyamba. Ndetse banareba ibyiza nyaburanga bigize Igihugu cyacu.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni kimwe mu bifasha ababikora kwiteza imbere, aho babona umusaruro mu gihe gito kandi byihuse, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo, babona ibikomoka ku matungo nk'inyama, amata ndetse n'ibindi.

Inyamaswa z'ishyamba, ni zimwe mu zikunda gukurura bamukerarugendo bitewe n'uburyo zitaboneka hirya no hino ku isi nk'umwe mu mwimerere w'igihugu cyacu, ibi bikagirira akamaro byinjiza amadevize mu gihugu, ndetse binayoroshya ubutwererane hagati y'igihugu cyacu ndetse n'ibyo bamukerarugendo baba baturutsemo.

Imparage ni bimwe mu byiza nyaburanga, bikurura ba mukerarugendo bagaturuka impande n'impande baje kuzisura mu Rwanda, umwe mu mwihariko w'inyamaswa nke zigaragara muri Africa, zitakiba ahantu henshi. Bikazamura amadevize yinjira mu gihugu, ndetse bikanaroshya ubuhahirane hagati y'ibihugu byacu ndetse n'ibyo ba mukerarugendo bakomokamo, uko bagiye baza kudusura kenshi.

Inkende ni kimwe mu nyamaswa zikunda gukurura ba mukerarugendo bitewe n'umwimerere wazo nka zimwe ziboneka mu misozi miremire mu rwanda, aho ba mukerarugendo baturuka imihanda baje gusura izi nkende bityo bakadusigira amadevize, bityo bikazamura iterambere ry'igihugu.

Amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya parike bigaragara hirya no hino mu Gihugu ni hamwe muhacumbikira inyamaswa zikurura ba mukerarugendo. Harimo nk'ingagi, inkende, impara, imparage, ndetse n'izindi. Byose bigakurura ba mukerarugendo baza mu Gihugu cyacu. Bityo bakazana amadevize atuma Igihugu cyacu kibasha kuzamuka mu bukungu.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bimwe bifasha aborozi kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi kandi mwiza wiganjemo ibikomoka ku matungo nk'amata, inyama ndetse n'ibindi. Aho kandi aya matungo afasha aborozi kubona ifumbire ribafasha mu bikorwa byabo by'ubuhinzi bya buri munsi, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kubona ibibatunga bitabagoye.

Inyoni z'amabara atandukanye, imparage, ingagi ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo baturutse imihanda yose baza gusura u Rwanda, bitewe n'umwihariko wabyo, kuko ari bimwe mu binyabuzima biboneka hake ,ibi bikagirira igihugu akamaro, aho bidufasha kwinjiza amadevize ndetse bikagirira akamaro n'abaturage baturiye ibi bikorwaremezo, aho ubasha kwiteza imbere binyuze mu gukora ubucuruzi kuri ba mukerarugendo baba baje gusura igihugu.

Inyamaswa z'ishyamba ziboneka hirya no hino mu byanya bya pariki ndetse n'amashyamba ya kimezagami bikurura ba mukerarugendo baza gusura igihugu cyacu bityo bikoroshya ubutwererane hagati yacu ndetse n'ibihugu byabo baba baturutsemo bikazamura kandi n'amadevize yinjira mu gihugu cyacu.

Amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki bigaragara mu Rwanda, ni hamwe haboneka inyamaswa zihariye z'imisozi, harimo nk'inyoni, ingagi ndetse n'izindi zikurura ba mukerarugendo ku bwinshi. Bityo bikazamura iterambere ry'igihugu, aho basiga amadevize. Ndetse bakanateza imbere aho ibikorwaremezo biri, bahakora ibyo bakenera mu gihe bari mu ngendo zisura igihugu cyacu.

Inyamaswa nk'ingagi, inkende ndetse n'izindi zinyuranye, ni zimwe mu zikurura ba mukerarugendo baza gusura Igihugu cyacu cy'u Rwanda, bityo bakinjiza amadevize. Badasize kandi n'abaturiye bene izi nyamaswa kuko ba mukerarugendo babacuruzaho ndetse bakagirana umubano ushingiye mu kuzana inyungu mu gihugu ndetse no kuri bo ubwabo.

Ingagi zo mu misozi miremire ziboneka mu Rwanda gusa, ni kimwe mu bikurura ba mukerarugendo, bagaturuka imihanda yose baje gusura u Rwanda. Ibi bigafasha mu kunoza imitangire ya serivisi ndetse no kuzamura iterambere ry'Igihugu, binyuze mu madovize ba mukerarugendo basiga mu Gihugu cyacu.

Ubukerarugendo ni kimwe mu bisata bizamura ubukungu bw'igihugu binyuze mu kwinjiza amadevize ndetse no koroshya ubutwererane hagati y'igihugu cyacu ndetse n'ibyo bamukerarugendo baba baturutsemo. Aho baza gusura inyamaswa zitandukanye ndetse n'imisozi, ubwiza nyaburanga ndetse n'ibindi bitandukanye bibakururira kuza mu Rwanda.

Amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki, bigaragara hirya no hino mu gihugu, ni kimwe mu bicumbikira inyamaswa z'ishyamba ziganjemo izikundwa na ba mukerarugendo, nk'ingagi, imparage, imbogo ndetse n'izindi. Aho ba mukerarugendo baturuka hirya no hino baza gusura izi inyamaswa, bityo bigafasha mu kuzamura iterambere ry'igihugu, aho ba mukerarugendo basiga amadevize.

Kubungabunga ibidukikije, ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi, ndetse binashyirwaho imbaraga na guverinoma y'u Rwanda hagamijwe ko umurage, ndetse n'ibidukikije bikomeza kurindwa kandi bikitabwaho umunsi ku munsi. Harimo nk'inyamaswa zo mu mazi, izo mu ishyamba, inyagasozi, ndetse n'izindi zitandukanye.

Inyoni zo mu ishyamba, imbogo ndetse n'ibindi bitandukanye ni bimwe mu bikurura bamukerarugendo basura igihugu cyacu, ibi bikorwa remezo rero ndetse n'ibi byiza nyaburanga bigafasha igihugu kwiteza imbere ndetse no kuzamura ubukungu bwacyo binyuze mu bikorwa by'ubukerarugendo, cyane cyane mu madevize azamura na ba mukerarugendo igihe baje gusura ibibyiza nyaburanga.

Inyamaswa z'ishyamba ziganjemo ishya, imparage, impala, ndetse n'izindi ni zimwe mu zikurura ba mukerarugendo baturuka hirya no hino ku Isi cyane cyane no mu Bihugu byo mu Burengerazuba bw'Isi baza gusura Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi akaba ari mu rwego rumwe mu byinjiza amafaranga menshi, aho ba mukerarugendo badusigira amadevize igihe basuye Igihugu.

Inyoni nziza cyane z'umwimerere: ingagi, impala, imparage, inkede ndetse n'ibindi ni zimwe mu nyamaswa zigaragara hirya no hino mu mashyamba kimeza, ndetse n'ibyanya bya pariki bigaragara hirya no hino mu gihugu, ibi bigakurura ba mukerarugendo bityo bigafasha igihugu kwiyongera, ndetse no kuzamuka mu bukungu, binyuze ku madevize yinjizwa na ba mukerarugendo baba baje kudusura.

Hirya no hino mu mashyamba ya kimeza ndetse no mu byanya bya pariki bigaragara mu gihugu, hagaragara inyamaswa zitandukanye zikurura ba mukerarugendo, ziganjemo ingagi zo mu misozi miremire inkende ndetse n'izindi, zose zigira uruhare mu kuzana ba mukerarugendo baza gusura igihugu, bityo bikazamura ubukungu bwacyo binyuze mu madevisi atangwa na ba mukerarugendo.

Inyamaswa z'ishyamba nk'inga, inkende, imparage, ndetse n'izindi, ni zimwe mu zikunda gukuru ba mukerarugendo basura igihugu cyacu, bitewe n'umwihariko ko izigaragara mu gihugu cyacu arizo mu misozi miremire, bikazamura imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ry'igihugu, aho ba mukerarugendo basiga amadevize afasha mu kuzamura iterambere ry'igihugu.

Mu byanya bya pariki bitandukanye hirya no hino mu gihugu, hagaragara inyamaswa zihariye zikurura ba mukerarugendo, ziganjemo ingagi, mbogo, imparage, ndetse n'izindi. Izi zose zikazamura iterambere ry'ubukungu binyuze mu gukurura ba mukerarugendo baza gusura igihugu, bakazana amadevize.

Inyoni ndetse n'inyamaswa z'ishyamba zindi zo mu misozi zitaboneka hirya no hino ku isi, ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo bibashishikariza kuza mu Rwanda kubireba, ibi bikazamura iterambere ry'igihugu, aho baduha amadevize ndetse bikanoroshya ubutwererane hagati y'ibihugu byacu ndetse n'ibyo baba baturutsemo.

Amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya parike, ni hamwe mu haboneka inyamaswa zitandukanye zihebuje zikurura ba mukerarugendo baza gusura igihugu cyacu, harimo nk'ingagi, imparage, imbogo, ndetse n'izindi. Aho kandi ba mukerarugendo badufasha kwinjiza amafaranga menshi mu gihugu binyuze mu madovize batanga igihe badusuye.

Amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya parike, ni hamwe mu hacumbikira inyamaswa zikundwa na ba mukerarugendo, bityo baza gusura igihugu cyacu, harimo: nk'inkende, ingagi, imbogo, impyisi, ndetse n'izindi. Ibi byose bikaba bifasha mu kwinjiza amadevize mu gihugu cyacu binyuze muri ba mukerarugendo baza gusura bene izi nyamaswa.

Inyamaswa z'imisozi ni zimwe mu nyamaswa zitaboneka hirya no hino ku isi akaba ari bimwe mu mwihariko w'Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi akaba ari bimwe mu bikurura ba mukerarugendo bagaturuka mu bihugu byabo baza gusuramo bene izi nyamaswa ndetse banareba ibyiza nyaburanga bitatse Igihugu cyacu cy'u Rwanda, bigafasha mu kwiteza imbere ndetse no kubona amadevize binyuze kuri ba mukerarugendo baba baje gusura bene izi nyamaswa.

Ubukerarugendo ni kimwe mu gice kigize ubukungu bw'igihugu ndetse bifasha n'igihu gukurara ndetse no gutera imbere umunsi ku wundi binyuze muri ba mukerarugendo baza gusura inyamaswa zihariye ziganjemo ingagi z'imisozi miremire zitaboneka mu bindi bihugu hirya no hino ku Isi, nk'umwihariko w'u Rwanda bigafasha igihugu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere abaturiye bene ibi bikorwa remezo.

Impara ndetse n'imparage ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo hirya no hino, bitewe n'ubwiza bwihariye bw'izi nyamaswa, aho zifite amabara menshi cyane y'umukara n'umweru, ibi akaba ari umwihariko w'imparage ndetse n'imparage.

Inyamaswa z'ishyamba ziguruka, ibikururanda ndetse n'izindi zitandukanye byose ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi baza gusura u Rwanda. Ibi kandi bigafasha Igihugu kwiteza imbere ndetse no kkwihaza mu bukungu, kubera amadevize ba mukerarugendo bazana igihe baturutse hanze baje gusura bene izi nyamaswa.

Inyubako zubatse ku murongo zifite igipangu cy'ibara ry'umutuku, imbere yayo hari umuhanda munini nyabagendwa, izi akaba ari inyubako zicumbikwamo n'abanyeshuri biga kaminuza, bibafasha kubaho ubuzima bwabo ndetse binaborohereza kugira imyigire myiza, aho bahabwa iby'ibanze nkenerwa mu macumbi.

Inyamaswa zo mu ishyamba nk'inyoni, inkende, imparage ndetse n'izindi, ni zimwe mu zikurura ba mukeragendo baturuka hirya no hino ku isi, baza gusura igihugu cyacu cy'urwanda, bikazamura iterambere ndetse n'ubukungu bw'igihugu binyuze mu madevize yinjizwa na ba mukerarugendo mu gihe baje gusura ibi bikorwa remezo ndetse n'ibyiza nyaburanga.

Inyamaswa z'ubwoko butandukanye ni bimwe mu bidukikije kandi bigira uruhahe runini cyane mu gukurura ba mukerarugendo hirya no hino ku isi, yaba izo mu mazi, izo mu misozi ndetse n'izigenda ku butaka n'iziguruka mu kirere, ibi byose bigafasha igihugu mu iterambere, ba mukerarugendo basiga amadevize igihe baje gusura igihugu cyacu.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bimwe mu bishyirwamo imbaraga na Guverinoma y'u Rwanda, nka kimwe mu gice cy'ubuhinzi Abanyarwanda benshi batitabira nyamaze gifite uruhare runini mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage ndetse no kuzamura ubukungu bwabo, binyuze mu gutanga umusaruro mwinshi ndetse mwiza ukomoka ku buhinzi bw'izi mboga ndetse n'imbuto.

Ingagi zigaragara muri pariki y'ibirunga ni umwe mu myihariko igihugu cyacu cyihariye ku mugabane w' Afurika, ari na byo bikurura ba mukerarugendo benshi baza gusura izi ngagi ndetse n'ibindi byiza nyaburanga bitandukanye bigaragara hirya no hino mu gihugu. Bityo bikinjiza amadevize mu gihugu ndetse bikazamura n'ubukungu, binyuze mu bikorwa bitandukanye ba mukerarugendo bakorera imbere mu gihugu.

Ihene ni rimwe mu matongo abarizwa mu cyiciro cy'amatungo magufi, akaba ari rimwe mu matungo atanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, aho abayorora babasha kugira imibereho myiza, babonamo ifumbire ibafasha mu kunoza ubuhinzi bwabo, ndetse banabona umusaruro w'ibikomoka ku bworozi nk'amata, inyama, ndetse n'ibindi bibafasha kugira imibereho myiza.